Inzu iteraniwemo n'abantu benshi barimo abagabo ndetse n'umugore imbere yabo hari ameza ateretseho za mudasobwa, telefoni ngendanwa, impapuro ndetse n'ishakoshi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu ikorerwamo inama bose bicaye ku meza ashasheho igitambaro cy'umweru ateretseho amazi yo kunywa bose batumbereye imbere aho umuntu ari kubereka ibintu.

Abagore babiri bose bambaye amadarubindi umwe yambaye ikoti n'umupira w'umweru ndetse nta gitambaro afite mu mutwe, undi yambaye imyenda y'ibitenge isa n'icunga n'igitambararo cy'ubururu mu mutwe yakiziritse.

Umugore wambaye ishati y'amaboko maremare, wambaye amaherena ku gutwi, ufite umusatsi karemano, ufite imyinya afite indangururamajwi mu ntoki ze ari kuyivugiramo, inyuma ye hari icyapa cya RGB.

Umukandida w'ishyaka rya Girini pati, Habineza Furanki, yambaye ikoti ry'umukara, ari mu nama iri kubera mu cyumba giteraniwemo n'abandi bagabo ndetse n'abagore.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko rw'inkumi n'abasore, bicaye bambaye amajire ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'abandi b'inyuma bakora umwuga w'abanyonzi, bambaye amajire y'ubururu, afitemo akabara k'umuhondo, bose bari kureba imbere.

Mu nzu hicayemo abantu benshi ku ntebe z'umukara, ameza atwikirije igitambaro cy'ubururu, hateretseho impapuro, amazi yo kunywa, mudasobwa ndetse n'isakoshi, ku ruhande rwo ruguru barebana na ho hicaye abagabo babiri bari gusoma inyandiko.

Icyumba cy'inama cyicawemo n'abantu benshi bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, bicaye ku dutebe twegamirwa dusa n'umutuku, imbere yabo hicaye abagabo babiri ndetse n'umugore umwe ufite indangururamajwi aricaye ari kuyivugiramo.

Abantu benshi biganjemo ab'urubyiruko bambaye udupira tw'amaboko magufi turiho ibendera ry'u Rwanda mu gatuza, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa baricaye hose mu cyumba kiri mu nzu.

Inzu ifite icyumba cy'inama giteraniwemo n'abagabo n'abagore benshi, kirimo intebe nyinshi ku nkuta zacyo zisize amarangi y'umweru hariho igikoresho cy'umutuku gifite umupira utwara amazi gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umupolisi ufite amapeti ku rutugu, yambaye impuzankano ya polisi; yakuyemo ingofero, iteretse ku meza, ateretseho amazi ndetse n'umuti wo gusukura intoki. Impande ye hari umwarabu, umwarabu ari kuvugana n'undi muntu umuri iruhande.

Icyumba k'inama kicawemo n'abantu benshi, barimo abagabo n'abagore. Ku meza bazengurutse, hariho imitobe ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zisa n'umutuku, harimo umugabo wambaye ikoti wahagurutse afite indangururamajwi ari kumwenyura.

Abahagarariye amashyaka bateraniye mu cyumba gisize irangi ry'umweru ku nkuta, abagabo batanu bambaye amakoti y'umukara ndetse n'umugore umwe usa n'inzobe, inyuma ye hari ikirango cyanditseho amashyaka yose uko ahagarariwe.

Komite y'Umujyi wa Kigali, irimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wicaye hagati y'abagabo. Bose bafite amakaramu ndetse na mudasobwa imbere yabo, inyuma yabo hari ibyapa byanditseho Kigali yacu, Kigali ikeye.

Mu nzu hicayemo abagore, ku meza hariho igitambaro cy'umweru, hejuru hariho amazi yo kunywa ari mu icupa ry'ikirahure ndetse hari n'udupapuro duto twanditseho amazina yabo turambitse ku meza.

Abantu benshi barimo urubyiruko, bicaye mu cyumba cy'inama ku dutebe dusa n'umweru, bambaye imipira y'amaboko magufi iriho ikirango cy'idarapo ry'u Rwanda, ku meza ari imbere yabo hateretseho amazi yo kunywa.

Abantu barimo urubyiruko rw'abasore n'inkumi bicaye mu cyumba gifite ameza ariho amazi yo kunywa bafite udukayi imbere yabo, barimo barandika bakoresheje ikaramu.

Abantu barimo urubyiruko rw'inkumi ndetse n'abasore, bicaye muri sitade itwikiriye, ifite inkuta zisize amarangi y'umuhondo.

Inzu ifite icyumba giteraniwemo n'urubyiruko rurimo abasore n'inkumi. Baricaye, umusore umwe arahagaze, afite indangururamajwi mu ntoki, ari kuyivugiramo.

Umugore usutse imisatsi ijya inyuma, ahagaze imbere y'imbaga y'abagore benshi n'abagabo, bamuteze amatwi bari no kumureba, ari kubaganiriza ibintu runaka bose bari hanze izuba riri kuva.

Mu nzu iri kwakamo amatara y'umweru irimo n'ibirango by'idarapo ry'u Rwanda iteraniyemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umweru, bari kwiga ku ngingo runaka nk'uko bigaragazwa muri televiziyo iteretse imbere yabo ku gatanda karekare.

Abayobozi bakora muri komite y'umujyi wa Kigali bahagaze hanze bari gufata ifoto y'urwibutso mu mbuga ngari ishashwemo amatafari ahiye.

Icyumba cyicawemo n'abantu barimo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa, imbere yabo hari za mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa, bari kuganira ku ngingo runaka.

Abantu benshi barimo urubyiruko rw'abasore n'inkumi, rwambaye imipira y'amaboko magufi yo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu bweruye, bicaye mu nzu ifite inkuta zisize amarangi y'umuhondo.

Icyumba cy'inama kirimo imbaga itandukanye harimo abagabo n'abagore, hari abicaye ku meza akoze uruziga afite ibara ry'umutuku, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bicaye mu buryo buzengurutse ku ntebe z'umukara zegamirwa, harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wahagurutse ari kubabwira ibintu.

Inzu yicawemo n'abantu benshi biganjemo abagabo, abagabo bicaye ku ntebe z'imbere zisa n'umukara zegamirwa, hari n'ameza ateretseho amazi yo kunywa afite agacupa gafite umufuniko w'ubururu, umugabo wambaye umupira w'ubururu ari kwandika akoresheje ikaramu n'urupapuro.

Inzu ifite icyumba cy'inama cyicawemo n'umugabo wambaye ikoti ndetse n'umugore usutse imisatsi ijya inyuma, wambaye ikoti ry'umutuku, wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi.

Inzu yicawemo n'abantu benshi, barimo abagabo n'abagore bicaye imbere, harimo umugore wambaye amadarubindi, ufite indangururamajwi mu ntoki ari kuyivugiramo, inyuma y'abo bantu hari ibintu byanditse ku gipapuro kinini cyane mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu ihema risa n'umweru ribatwikiriye izuba, ritatse ibitambaro by'umuhondo ndetse n'icyatsi ndetse rifite n'inkingi zitakishijwe igitambaro cy'ubururu n'umuhondo, imbere yabo hateye ibyatsi.

Abantu barimo urubyiruko rwicaye mu nzu mu imbere iteyemo intebe zisa n'umutuku zegamirwa, abantu bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi bari gukora umukoro wo mu matsinda, imbere yabo hari ikibaho kimeze nka televiziyo kirimo ibintu byo gusoma.

Abagore n'abagabo bateraniye mu inzu bose bicaye ku meza ariho amacupa y'ibirahure harimo amazi bose bari kureba imbere hari umuntu uri kubabwira ibintu.

Porofeseri Shyaka Anastase yicaye ku ntebe imbere ye hari indangururamajwi isa n'umuhondo ndetse ku meza hateretseho amazi yo kunywa, inyuma ye handitse amagambo ku twapa ngo gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi.

Inzu irimo ibiro byicawemo n'umugabo, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse imbere yayo hari icyuma gikoreshwa mu gusohora no gufotora inyandiko.

Ugiye kuri murandasi ugashakisha www.irembo.gov.rw, akarongo gahagaze, www.rgb.rw wagera ku rwego rw'Igihugu rw'imiyoborere rukubwira ko hari uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwa Leta.

Mu cyumba cyicayewemo n'abanyeshuri bambaye udupfukamunwa ndetse n'umwarimu wambaye agapfukamunwa, kirimo ameza ariho za mudasobwa hejuru, bari kwiga gukoresha ikoranabuhanga.

Ku rubuga rw'irembo, serivisi zikunzwe gusabwa, harimo mituweri, gusaba indangamuntu, ikemezo cy'amavuko, ikemezo cyo kuba warashyingiwe, ndetse n'izindi.

Umunara wubakishijwe ibyuma bisize irangi ry'icyatsi, umanitseho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amaterefoni, kimwe kimeze nk'akagoma gato, ikindi kimeze nk'itara rirerire ricanwa mu nzu kandi hari n'insinga ziri kuva hasi zizamuka, zijya kuri ibyo bikoresho.

Urwandiko ruriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, rwanditseho amasaha y'akazi ku bakozi bagiye batandukanye.

Ikirango cya Rwanda reveni otoriti, byandikwa mu mpine RRA, iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Umunara ugizwe n'ibyuma by'umweru ndetse n'umutuku bisobekeranye ushinze ku butaka, hejuru hari ibyuma by'ikoranabuhanga bimwe bimeze nk'ingoma ibindi bimeze nk'amatara yo mu nzu bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa.

Umunara ukoreshwa mu itumanaho uri hanze uzengurutswe n'uruzitiro rugizwe na senyenge ndetse n'ibyuma, uwo munara hejuru hariho ibyuma bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni agendanwa.

Imodoka ziri kugendera mu muhanda uri gushokamo amazi, iruhande rw'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyambaro ndetse n'amabase, amarakarete n'ibindi.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo ibitanga umwuka bicometse ku muriro w'amashanyarazi, mu bitaro kandi harimo ibikuta bisize amarangi y'umweru, ibindi bikoresho bikoreshwa mu gupima ndetse no kureba umuntu urwaye byatanzwe na minisiteri y'ubuzima.

Umugore wambaye umwambaro usa n'umuhondo, ufite amaherena ku gutwi, usutse imisatsi ijya inyuma. Impande ye hari ikirango cy'igihugu ndetse urundi ruhande hari n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Urubyiruko rwegamye ku gikuta kiri hanze y'inzu gisa n'umweru, ruri gukoresha telefoni bakoresha murandasi, imbere yabo hari umuhanda wubakishije amabuye.

Umunara ukozwe n'ibyuma bisa n'umweru ndetse n'umutuku, ni muremure cyane hejuru hamanikwaho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefone ngendanwa.

Inyandiko igaragaza ko hasigaye umunsi umwe gusa kugirango gahunda zo kwishyura no kudekarara imisoro zirangire; imisoro ikwiye kwishyurwa mbere y'amatariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi, bibiri na makumyabiri na kane.

Umunara wubakishijwe ibyuma bishinze ku butaka bisa n'umweru ndetse n'umutuku, hejuru yawo hari ibikoresho by'itumanaho, uvuga amatene akoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa.

Inzu irimo abantu bane ifite ibirahure bibonerana, bigaragaza ubusitani bwo hanze bugizwe n'ibyatsi bisa n'icyatsi mu imbere abantu bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa.

Ihema ryicawemo n'abantu bari gukoresha terefoni imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi ateretseho terefone amadarubindi y'umukara ndetse na mudasobwa.

Umunara wubakishije ibyuma bisa n'icyatsi kibisi bisobekeranye, hejuru yaho hari ibyuma bikoreshwa mu gusakaza amarezo akoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni.

Abagabo b'abirabura batandukanye bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza, buri wese afite igikoresho cy'ikoranabuhanga cy'umweru mu ntoki ze, imbere yabo hari mudasobwa.

Umunara ugizwe n'ibyuma bisize amarangi y'umweru n'umutuku bishinze hasi ku butaka, bifite uruzitiro rw'ibyuma ndetse n'akazu gakoze nk'akabati gasize amarangi y'umuhondo uteruye, hejuru umunara uriho ibikoresho bikoreshwa mu gusakaza amarezo akoreshwa mu itumanaho ry'amaterefone.

Ipironi inyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, imbere yayo hari inzu y'amagorofa, ikiri mu bikorwa byo kubakwa, iruhande rwayo hari inzu y'igisenge cy'umutuku imanitseho amantene ya televiziyo.

Ipoto rinyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, imbere ya ryo hari irindi poto ryo rinyurwaho n'isinka, imbere ya ryo na ho hari ayandi mapoto. Iruhande rwa byo hari igiti cy'amababi menshi ndetse hateye n'indabyo ku ruhande rwa ruguru zisa n'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ipoto rishinze hasi, rizengurutswe n'ahantu hari ibiti byinshi, bifite amababi y'icyatsi. Iri poto riranyurwaho n'insinga z'umukara zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Abakozi bambaye imyambaro y'ubwirinzi irimo ingofero zisa n'ubururu ndetse n'amasarubeti maremare cyane buriye ku mapironi y'amashanyarazi bari gukora ibikorwa bijyanye n'amashanyarazi.

Ipoto rishinze ku muhanda risa n'umweru ndetse rifite n'ibara ry'ubururu hasi hejuru ririho itara rikoreshwa mu kumurika ku muhanda igihe izuba ryarenze.

Amapoto ashinze ku butaka akozwe n'ibyuma, amanitseho ibyuma bitanga umuriro w'amashanyarazi ndetse hejuru haranyurwaho n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inzu yubatse hari urusinga rw'amashanyarazi ruza mu iyi nzu, amashanyarazi yo mu nzu afasha mu gukoresha ibikoresho birimo amateleviziyo, amatelefoni ndetse hari n'abayatekesha.

Igiti cy'ipoto kinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi giteye ku muhanda mu butaka bumezeho ibyatsi munsi yaho hari inzu ifite amabati atukura.

Imodoka eshatu ziparitse iruhande rw'igiti cy'ipoto kiziritseho imigozi ituruka hasi izamuka hejuru ku ipoto, izi modoka zose icyo zihuriyeho zifite imyanya ine.

Icyuma gikoreshwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi, kimanitse ku mapironi abiri agizwe n'ibyuma bishinze mu butaka, iruhande hagati yabyo hari agasanduku k'umweru gafunze neza.

Umunara wubakishijwe ibyuma bishinze ku butaka, unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi. Amashanyarazi akoreshwa mu ngo, mu kwatsa ibyuma by'ikoranabuhanga, mu gucana amatara ndetse no gucomeka ipasi.

Igiti cy'ipoto kinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi zisa n'umukara zigendera mu kirere ku kindi giti cy'ipoto kiri hirya isinga z'amashanyarazi zijyana amashanyarazi mu ngo bikagira umumaro wo gucana mu ngo gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse no gutera ipasi.

Ipoto ishinze ku butaka, imanitseho insinga z'amashanyarazi, nyinshi zisa n'umukara, zinyura mu kirere, izindi zijya mu ngo zituriye iyo poto, iteye mu gipangu gifite urugi rwo ku irembo, rufunga uruzitiro rusa n'umukara.

Hanze izuba riva hari umutaka wa emutiyene ukorerwamo n'umukozi uhagarariye ibikorwa byubucuruzi bya emutiyene inyuma yawo hari icyapa kinini cyanditseho imibare ushobora gukanda ukigurira uburyo bwo gukoresha amayinite.

Umunara wubakishije ibyuma bishinze ku butaka, ahazengurutswe n'ibirimo ibiti by'amababi y'icyatsi, uranyurwaho n'insinga z'amashanyarazi zisa n'umukara.

Ipoto y'amashanyarazi ishinze iruhande rw'akati gafite amashami, iranyurwaho n'insinga z'amashanyarazi atambutswa mu gace, umugozi umwe uri kujya mu rugo ruteyemo ibiti bifite amashami agandaye.

Icyuma gitanga umuriro w'amashanyarazi mu gace, kimanitse ku munara ukozwe n'ibyuma bibiri bishinze mu butaka, hasi yacyo hari isanduku y'umweru ifunze neza, aha niho insinga z'amashanyarazi ziteranyirizwa.

Ugana ku isoko rya Kimironko uva Kibagabaga, hari agace gateyeho ibiti by'amababi iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Urugomero rw'amashanyarazi rugizwe n'ibyuma bya rutura, bitanga amashanyarazi ajya mu duce ruri mu rugo rwubakiye ruzitiye neza, hahagazwemo n'abagore babiri bambaye amajire y'icyatsi ndetse n'ingofero z'ubwirinzi.

Urugomero rw'amashanyarazi rufite udusanduku tw'umweru twubatse ku butaka ndetse n'imigozi inyura ku butaka ruzitijwe n'ibyuma hafunze neza n'ingufuri.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara, ruguru yawo hari amapoto y'ibyuma, hariho amatara amurika umuhanda igihe izuba ryarenze, ruguru yaho hari inyubako.

Igiti cy'ipoto gishinze ku muhanda kiriho itara rimurika kumuhanda n'ijoro, kinyuzweho kandi n'insinga z'amashanyarazi zijya mu ngo cyangwa zijya mu tundi duce.

Iminara ibiri inyurwaho n'insinga z'amashanyarazi yubatse ku butaka n'ibyuma bisobekeranye hirya y'aho hari inzu ifite igisenge cyubakishije amabati y'umutuku.

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma bigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umutuku, umanitseho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amaterefoni ngendanwa, bimwe bikozwe nk'ingoma ibindi bikozwe nk'amatara yaka mu nzu.

Urugo rurimo inzu zubakishije amatafari ahiye, hari imbuga irimo ibyatsi bya pasuparumu, ifite kandi urubaraza ruriho akadomoro gato kagenewe gutabwamo imyanda.

Inzu iri kwakamo amatara y'umweru, harimo umugore wambaye ikoti ry'umweru, uhagaze imbere y'abandi bantu babiri, harimo intebe yo kwicaramo isa n'umukara ifite amapine, imbere yabo hari ibitambararo bikinga urumuri kwinjira mu nzu bisa n'ubururu.

Imbangukiragutabara isa n'umweru ifite ibikoresho by'urumuri rw'intabaza hejuru, ifite ibirahure bitabonerana ni iy'ibitaro bya CHUK.

Ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti inyuma yabwo hari imbuga iparitsemo imodoka, inyuma y'imbuga hari inzu y'amagorofa.

Amatara agiye azamuka hejuru mu mbuga iparitsemo imbangukiragutabara isa n'umweru, yanditseho ijambo imbangukiragutabara mu mbavu zayo inyuma y'urugi rw'imbere.

Ab'avoka babiri bambaye amakanzu y'umukara afite agace gasa n'umweru mu gatuza, hagati yabo hicaye umugororwa wambaye imyenda y'irosa.

Inzu ishashemo amakaro, iri kwakamo amatara, irimo utubati duteretsemo ibikarito bigerekeranye byometsweho udupapuro tw'umweru, twanditseho amagambo y'umukara.

Abantu bakora mu mirimo ijyanye n'amategeko, bambaye amakanzu y'umutuku ndetse n'ingofero y'amabara y'umukara n'umutuku, imbere yabo hashinze amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, agizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere yayo hahagazwe n'abagabo bambaye imyambaro y'amakanzu y'umukara bari kurahira.

Umugabo wambaye imyenda y'imfungwa isa n'iroza, wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ahagaze impande y'umugabo w'umwavoka na we wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'imyambaro y'ikanzu isa n'umukara, aricaye, ari gukoresha mudasobwa.

Urupapuro ruriho abantu bakenewe cyane bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside hariho amasura yabo ndetse hari n'amafaranga y'igihembo ku muntu wabatangaho amakuru angana na miliyoni eshanu z'amadolari.

Inzu yicawemo n'abantu benshi bambaye imyambaro y'amakoti n'amakanzu asa n'umukara imbere amatara ari kwaka bicaye ku amezaza atondetse muburyo bwa amasibo.

Umugabo umwe wambaye imyenda y'ingororwa isa n'iroza, impande ye hicawe n'umwavoka nawe wambaye ikanzu y'umukara ndende ifite akabara k'umweru mu gatuza, barikuvugana.

Umugore ufite imisatsi karemano ifungiye inyuma, wambaye amadarubindi uri kuvugira mu ndangurura majwi, inyuma ye hahagaze abandi bagore babiri.

Urupapuro rushushanyijeho umugabo wirabura ufite ubwanwa bwo hejuru wafunzwe ku itariki makumyabiri nenye z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu.

Mu rukiko hicayemo abantu benshi, barimo umwavoka, bicaranye ku ntebe n'umugororwa wambaye imyambaro y'iroza, Imbere yabo hicaye abashinjacyaha nabo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Abagabo n'abagore bicaye muri sare y'inama mu buryo buzengurutse, imbere yabo hari akameza gateretseho ibirahuri birimo icyo kunywa, inyuma yabo kandi hari andi meza nkayo, byose biteye mu buryo bw'amasibo.

Gereza ya Nyarugenge yubakishije amatafari ahiye, ifite inkuta ndende cyane, zirimo kandi n'utubara tw'umuhondo, ihagaze, imbere yayo hahagaze imfungwa ndetse n'umucungagereza, imfungwa ziri kwinjiramo, ifite amarembo afungishijwe urugi rw'umukara.

Urupapuro rugaragaza amategeko ndetse na nomero yayo n'igihe yagiye atorerwa, byanditse mu ibara ry'umukara ndetse hejuru hari n'umutwe uvuga ngo ikibazo cyasuzumwe, ese ibimenyetso biziguye cyangwa bishingiye ku mabwire bishobora kwemerwa mu rukiko?

Abagore bari muri gereza bicaye ku ntebe zidafite umwanya wo kwegama, bambaye imyambaro irimo isa n'icunga rihishije ndetse n'abandi bambaye isa n'iroza.

Umugabo ukora mu bintu bijyanye n'amategeko no guca imanza, yambaye ikanzu y'umutuku ifite akabara gasa n'umweru mu gatuza. Yambaye ingofero y'umukara ndetse n'amadarubindi y'umukara.

Umugabo wambaye imyenda y'abagororwa ufiteho indangururamajwi nto ku ijosi isa n'umukara arimo aravuga amagambo.

Umugororwa wambaye imyambaro isa n'iroza; iruhande rwe hahagaze umwavoka wambaye ikanzu y'umukara irimo n'utubara tw'umweru tugarura urumuri.

Umuntu wambaye ikanzu y'umutuku ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara mu gatuza, afashe ku idarapo ry'u Rwanda, rigizwe n'mabara y'icyatsi ubururu n'umuhondo, azamuye ikiganza arimo ararahira.

Umuporisi wo ku rwego rw'umu ofisiye, wambaye imyambaro y'aba ofisiye afashe ku idarapo, azamuye ukuboko arimo ararahira. Uyu muporisi yambaye n'ingofero idafite igikinga mu mutwe ndetse n'amadarubindi.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe ziteye hanze iruhande rwaho hari ibiti bicaye bari kureba ndetse banateze amatwi umugore wambaye ikoti ndetse n'ijipo yaryo ubari imbere uri kubabwira ibintu.

Umugabo ukora mu bijyanye no guca imanza ndetse n'amategeko, wambaye ikanzu y'umutuku ifite akantu gasa n'umweru mu gatuza, ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Umwavoka wambaye ikanzu y'umukara ifite akabara k'umweru mu gatuza, wirabura wambaye agapfukamunwa k'umukara, impande ye hahagaze umugabo w'imfungwa wambaye imyambaro y'iroza n'agapfukamunwa k'ubururu.

Ingabire Vigitwari yambaye ikanzu isa n'iroza, y'ingororwa, barimo baramwambika amapingu, imbere ye ahagaze umucungagereza w'umugore, ni we uri kumwambika amapingu.

Igikoresho cyagenewe kurwanya inkongi y'umuriro, kirasa n'umutuku, gifite umupira wizinze inshuro nyinshi. Iki gikoresho gisohora amazi igihe ari kuzimywa inkongi y'umuriro.

Ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, bifite umupira ndetse n'akantu bakanda igihe bazimya inkongi, bifite ibinyabutabire biba birimo imbere mu icupa, bikoreshwa mu guhashya no kuzimya inkongi y'umuriro.

Inyubako ikorerwamo na polisi ishami rya Nyarugenge, ifite ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi, ifite kandi imbuga ngari ishashemo amatafari, iparitsemo imodoka.

Umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi, ahagaze munsi y'igiti iruhande rwacyo aparitse imodoka isa n'umweru ya polisi.

Imbere y'umuhanda wa kaburimbi, hahagaze abapolisi babiri bambaye impuzankano ya polisi ndetse n'ikoti risa n'icyatsi, ririmo uturongo tw'utugarurarumuri, inyuma yabo haratambuka abanyeshuri bambaye impuzankano.

Icupa rikoze mu cyuma risize irangi ry'umutuku rifite umupira ndetse n'akantu bakandaho rikoreshwa mu guhashya inkongi y'umuriro n'ukuvuga iri cupa riba rifite ibinyabutabire rikoranye bishyirwamo imbere cyangwa bikaba byanasimbuzwa igihe bishizemo bigakoreshwa mu guhashya inkongi y'umuriro.

Igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro gisize irangi ry'umutuku cyanditseho amagambo gifite umupira w'umukara ndetse n'akantu bakanda gasa n'umutuku igihe bazimya inkongi.

Imodoka ya polisi yo mu muhanda, iparitse mu mbuga ishashemo amatafari. Impande yayo haparitse indi modoka na yo igendwamo, isa n'umukara.

Imodoka ya polisi y'igihugu y'u Rwanda, iparitse mu mbuga ishashemo amabuye, iyi modoka ifite igice cy'inyuma cyicarwamo n'abapolisi inyuma, gifite umwanya wegamirwa.

Umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi uhagaze iruhande rw'imodoka isa n'umukara. Umupolisi afite ibyangombwa by'umuyobozi w'iki kinyabiziga ndetse afite na mubazi mu ntoki ye arimo aragenzura.

Umupolisi ukora mu ishami rishinzwe kuzimya no kurwanya inkongi y'umuriro, wambaye ikoti ry'ubwirinzi risa n'umukara, ririmo utubara tw'icyatsi, ari gufungura ahaturuka amazi azimya umuriro.

Polisi ishami rishinzwe kurwanya inkongi yambaye imyambaro y'ubwirinzi, impande yayo hari abantu benshi bahuruye. Polisi ije iri kurwanya inkongi y'umuriro, yaparitse imodoka ibifashishwa mu kuzimya inkongi iruhande rw'umuhanda.

Ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, bimanitse ku gikuta cy'umweru, harimo icupa ry'umutuku rifite umupira ndetse n'akantu bakandaho igihe bari kuzimya inkongi y'umuriro.

Imodoka ya polisi ifite purake RNP 224N, ifite ibyuma imbere birinda kwangirika; igihe yakoze impanuka, iruhande rwayo hari n'indi modoka bisa, na yo yanditseho polisi.

Umugabo wambaye inkweto ndetse n'imyenda by'ubwirinzi, afashe igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro cy'icupa risize irangi ry'umutuku, imbere ye hicaye abanyeshuri, arimo arabereka uburyo ki ibyo bikoresho bikoreshwa.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara ufite igice cyagenewe kugendwamo n'abanyamaguru. Harimo haragendamo umugabo wambaye inkweto zifunguye ufite utujerekani mu ntoki.

Imodoka ya polisi isa n'umweru yanditseho amagambo y'uko ari iya polisi yo mu muhanda, igeze ku cyapa cy'ubururu cyerekana ko ukomeje iyo nzira wagera ku mupaka wa gatuna.

Inyubako ifite akarindankuba kamanitse hejuru ku nzu karimo umugozi ugenda ukajya no hasi mu butaka, aka gafasha mu kurinda igihe inkuba ikubise kugira ngo idakubita inyubako.

Polisi ishami rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro, yambaye imyambaro y'ubwirinzi, ifite igikoresho cy'umupira muremure uri gusohora amazi bawutunga aho inkongi iri gutwika.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hahagazwe n'umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi imbere ye aratambuka imodoka ndetse n'ipikipiki.

Umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi ahagaze muri kaburimbo, iruhande rwe haraturuka ipikipiki itwawe n'umumotari wambaye ijire igizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka ifite imyanya ine, inyuma yayo hari kuzamuka imodoka ya polisi ifite igice cy'inyuma cyicarwamo n'abantu gitwikirijwe shitingi.

Abayobozi bashya bafashe ku idarapo bazamuye ikiganza bari kuvuga indahiro zabo, barimo abagore bakenyeye imikenyero ndetse n'umugabo, hirya hicaye umugabo wambaye ikoti.

Abantu benshi bateraniye hanze, bambaye imipira isa n'ubururu, ndetse irimo n'utubara tw'umweru, ingofero z'umweru n'utudarapo tugizwe n'amabara y'umutuku umweru n'ubururu, twanditsemo FPR, bari mu bikorwa byo kwamamaza umukandida.

Inyandiko igaragaza imyanya yihariwe n'abagore mu miyoborere y' u Rwanda mu nzego z' abadepite ndetse n'urwego rw'abasenateri.

Perezida Paul Kagame yambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hagaze madamu Jeannette Kagame, wambaye imikenyero y'ubururu, impande ya perezida hashinze idarapo ry'igihugu riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umukandida w'ishyaka rya FPR perezida Paul Kagame wambaye umupira w'umweru uriho ikirango cya FPR, yazamuye igipfunsi; abamushyigikiye bamuri inyuma bazamuye utudarapo bari guseka cyane, na bo bazamuye igipfunsi.

Ahashyizwe icyumba cy'itora kuri gurupe sikorere kimironko ya mbere, ku marembo hatakishijwe ibitambaro by'amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Imbere y'amarembo hari abagabo n'abagore bahagaze barindiriye kwinjira ngo batore.

Abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, bose bambaye ingofero z'umweru, imipira y'umweru, iriho ikirango y'amaboko magufi bari kuzingura impapuro basomaho ibintu.

Nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika y'u Rwanda yicaye ku ntebe isa n'umukara yegamirwa. Imbere ye hari ameza asa n'umukara. Iruhande rwe hicaye umugabo ufite ubwanwa burimo imvi, wogoshe umusatsi, wambaye ikoti ry'umukara na karuvati y'ubururu nawe imbere ye hari ameza y'umukara.

Perezida Paul Kagame yambaye umupira w'umweru wa FPR, ari gutambuka mu bikorwa byo kwiyamamaza. Inyuma ye hari abajepe bamurinze, abaturage bamanitse amadarapo ya FPR.

Urupapuro rugaragaza uburyo ki abakandida batatu biyamamarizaga kuyobora umukuru w'igihugu bagiye babona amanota, umwanya wa mbere ni Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umwanya wa kabiri ni Frank Habineza, umwanya wa gatatu ni Philippe Muhiyimana.

Ikirango cya FPR inkotanyi. Gishushanyijemo intare ndetse n'inkota ebyiri zisobekeranye, izuba n'imirasire yaryo; cyanditsemo amagambo demokarasi, ubumwe n'amajyambere.

Perezida Paul Kagame yambaye ikoti ry'umukara, amadarubindi y'umukara ari kumwenyura, ari hanze ari gutera intambwe, ni ukuvuga ari gutambuka.

Icyumba cyicayemo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, bicaye ku ntebe z'imisego isa n'umukara izo ntebe zikaba zegamirwa imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'ibirahure harimo n'umugabo w'inyuma uri gukoresha mudasobwa.

Umukuru w'igihugu cy'U Rwanda Perezida Paul KAGAME, ari gutambuka yambaye ipantaro n'ishati y'umukara y'amaboko maremare, ari kumwe n'abandi bantu benshi nabo bari gutambuka, inyuma yabo har’abandi bantu benshi bari kuv’ahantu hateye itente ry'umweru.

Umukandida wa efupeyeri perezida Paul Kagame yambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, yazamuye igipfunsi, imbere ye hari imbaga yazamuye amadarapo menshi cyane iramwishimiye nayo yazamuye igipfunsi.

Imbaga y'abantu bari hanze bafite ibyapa bya efuperi ndetse n'abapolisi bambaye impuzankano ya gipolisi ndetse n'abandi bambaye imyenda y'umutuku iriho ibirango bya efuperi bari mu ihema. Bari muri gahunda zo kwamamaza umukuru w'igihugu.

Mu muhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'abayobozi b'amapikipiki bahetse abagenzi, hari kandi n'umuyonzi uhetse umugenzi ku igare, impande y'umuhanda hari umuyoboro utwara amazi utwikirijwe ibisima ariko hari igice kidatwikiriye.

Imodoka y'imyanya ine ifite ibara risa n'ifeza iriho nimero umuntu ashobora guhamagara iyi modoka itwarwa muburyo bwihariye igatwara abagenzi mu duce runaka munsi yayo hari agacupa gashyirwamo imitobe.

Umuyobozi w'ipikipiki uri kugendera mu muhanda w'umukara wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umuhondo ucagaguye inyuma ye hari abandi bayobozi b'amakipiki bari kuza mu cyerekezo arimo.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi nto, isa n'umweru iragendera mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwayo haragendera indi modoka ya bisi yo mu bwoko bunini zose zigeze mu ikoni.

Umunyonzi uhetse ibintu bipakiye mu mufuka, arashoreye igare riri kugendera iruhande rwa kaburimbo, iri kunyurwamo n'imodoka isa n'ifeza.

imodoka itwara abagenzi muburyo bwa rusange ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru iriho abagenzi irikugendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara.

Akamoto k'amapine atatu gasa n'icunga rihishije gafite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku gifite imiryango gikoreshwa mu gutwara imizigo ipikipiki isanzwe itatwara irimo iragendera ku muhanda wa kaburimbo.

Moto y'amapine atatu, ifite igice cy'inyuma gisa n'ubururu gihekwamo imizigo, gikozwe n'utwuma tuzengurutse tugafunga kuva hasi kugera hejuru, ahashyirwa imizigo cyanditseho nimero z'umuntu utwara ipikipiki.

Moto y'amapine atatu isa n'ubururu iragendera mu muhanda wa kaburimbo, iteganye n'indi modoka isa umukara nayo biri kujya mu cyerekezo kimwe byose biragendera mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka y'ikamyo ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunze neza, hano hejuru itwikirije shitingi y'ubururu, iki gice gitwarwamo ibicuruzwa iyi modoka iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo imbere yayo hari ipikipiki.

Imodoka y'umweru ikorwa n'uruganda rwa dayihatsu, ifite igice cy'inyuma gitwarwamo imizigo, ihetse imizigo itwikirijwe shitingi y'ubururu, iri gukata ikoni ry'iburyo, impande yayo hahagaze abagabo.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa bisi nto iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umutuku impande yayo iri kubisikana n'amapikipiki ari kuzamuka.

Moto y'amapine atatu isa n'umuringa, ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo, impande yayo haragendwa n'imodoka isa n'icyatsi byose biragendera mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka y'ikamyo iheka ibicuruzwa irimo irazamuka igice cyayo cy'inyuma ihetsemo amagodora atwikirijwe na shitingi y'ubururu bifunze neza kandi bihambiriye inyuma yayo haramanukwa n'ipikipiki y'amapine atatu.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ifite igice cy'inyuma gikwaho ibintu biremereye, hejuru yacyo ihetseho imodoka isa n'umweru ifite imyanya ine nayo ifite ahantu inyuma hahekwamo imizigo.

Imodoka ikorwa n'uruganda rwa dayihatsu, ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo, irimo imifuka ipakiyemo ibirayi, imifuka ipakiye ibishyimbo ndetse n'ibindi byinshi, gikikijwe n'ibyuma birinda ibipakiwe kuba byasandagira cyangwa ngo bigwe.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite intebe zo kwicaraho zisa n'umutuku, iragendera ku muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, iruhande rwa kaburimbo hari rigori inyurwamo n'amazi.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa bisi isa n'umweru, iri muri gare iruhande rwayo haratambukwa n'umusore uhetse igikapu mu mugongo.

Ipikipiki y'amapine atatu isa n'ubururu, ifite igice cy'inyuma na cyo gifunze kinatwikirijwe shitingi y'ubururu, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo igeze ahashinze icyapa.

Imodoka itwara ibicuruzwa ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunze. Itwikirijwe shitingi y'umweru ihambiriye neza, itwaye ibicuruzwa iragendera mu muhanda wa kaburimbo y'umukara.

Imodoka y'umweru ifite igice cy'inyuma gisa n'ifeza kinini gihekwemo imizigo nk'imifuka y'ibirayi, ibishyimbo, ibitoki ndetse n'ibindi byinshi, itwawe n'umuyobozi wambaye umupira usa n'umutuku, iragendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara.

Imodoka isa n'umweru ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunze neza, gihekwamo ibicuruzwa birimo nk'imifuka y'isukari, imifuka y'imiceri ndetse n'ibindi byinshi imodoka iri kugendera muri kaburimbo.

Imodoka ya bisi, itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, isa n'ubururu, mu mpande ifite n'utubara tw'umuhondo, ndetse n'umweru, iragendera mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka yo mu bwoko bw'ihoho ikoreshwa mu gutwara ibikoresho by'ubwubatsi birimo isima n'umucanga irasa n'umweru, iri kubisikana n'indi modoka yo mu bwoko bwa bisi isa n'ubururu nayo itwara abagenzi muburyo bwa rusange.

Imodoka itwara ibicuruzwa, inyuma ifite igice kimeze nk'isanduku, gifunze neza gishushanyijeho amavuta yo kwisiga ndetse n'umugore uri gukoresha ibiganza bye avuguta amavuta.

Imodoka ifite igice cy'inyuma gitwarwamo imizigo gifunze ku mpande ariko gifunguye hejuru, ni imodoka itwara ikenshi ibintu by'ibicuruzwa birimo ibitoki imifuka y'ibishyimbo n'ibindi byinshi, iri kugendera ku muhanda wa kaburimbo y'umukara impande yaho hatambuka umugore.

Imodoka ya bisi ya jagwari, imbere yayo haragendera abanyonzi babiri imodoka nayo iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara.

Umuyobozi w'ipikipiki uhetse umugenzi ku ipikipiki; iragendera ku muhanda wa kaburimbo usa n'umukara ufite imirongo icagaguye. Mu burebure bwayo isa n'umuhondo impande y'umuhanda hari igiti gifite amashami.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka, imodoka y'umweru ifite igihekero inyuma cyicawemo n'umuntu, naho imodoka y'umukara ifite nayo umwanya bahekamo ibintu inyuma iri kuzamuka.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo isa n'umweru, ifite igice k'inyuma gisa n'ifeza, gihekwamo ibicuruzwa birimo imifuka y'ibirayi, imifuka y'ibishyimbo ndetse n'ibindi bicuruzwa bijya bajya kurangura, iragendera mu muhanda wa kaburimbo.

Ahantu hashashemo amatafari hasi, hateyemo n'igiti kirekire, iruhande rw'igiti hari akagorofani bakoresha mu kwikorera ibifuka birimo ibintu biremereye cyangwa amakarito cyangwa amajerekani n'ibindi biremereye, inyuma yako hari idomoro itabwamo imyanda.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, yanditseho ritiko iri muri gare, ndetse iruhande rwayo hari umugabo wicaye ku mifuka isa n'umweru ipakiwemo ibintu.

Abantu bakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki bambaye amajire y'umuhondo ndetse bafite n'igice gisa n'ubururu hasi baparitse mu mbuga bari kuganira, inyuma yabo haratambukwa n'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'ibinyabiziga birimo amamodoka ndetse n'amapikipiki, urasa n'umukara, uciyemo imirongo y'umweru icagaguye ndetse hari n'agace k'iburyo karimo umwambi wandikishije ibara ry'umweru ritsiritse.

Umugabo uhetse amabati ahagaze, ari kugendera ku ruhande rwa kaburimbo, impande ye arabisikana n'undi mugabo ukora akazi k'ubunyonzi utwaye igare ririho umusego.

Gare iparikwamo n'imodoka nyinshi, hari gusohokamo imodoka za bisi nto ndetse n'imodoka ya bisi itwara abagenzi muburyo bwa rusange nini isa n'ubururu.

Imodoka y' imyanya ine yagenewe kugerwamo n'abagenzi mu buryo bwihawe, isa n'umweru ifite n'utubara tw'umuhondo, ndetse n'agatoya k'umukara mu mbavu zayo, iparitse mu mbuga ishashemo amabuye.

Imodoka y'umweru ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo itandukanye irimo ibicuruzwa harimo ibyo ihetse bitwikirijwe shitingi y'ubururu iyi modoka iragendera mu muhanda wa kaburimbo y'umukara.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa bisi yicawemo n'abantu iragendera k'umuhanda wa kaburimbo y'umukara iruhande rw'umuhanda hateye ibiti bikikije umuhanda ni birebire bifite n'amababi y'icyatsi.

Imodoka isa n'ubururu ifite umwanya munini inyuma uhekwamo imitwaro. Hahagazemo umugabo ari gupakira amabati, iruhande rwayo haratambukwa n'umugabo ufite agakapu k'umukara gatwarwa mu ntoki.

Hanze hari abantu benshi, bari gutambuka mu gace katagendwamo n'ibinyabiziga, bamwe bicaye ku dutebe two hanze, abandi bari mu tuzu ducururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, birimo amakawa ndetse n'imitobe.

Sitade ikinirwamo umupira w'amaguru iherereye muri IPRC Kigali mu karere ka Kicukiro, ifite udutebe twicarwaho n'abafana dusa n'icyatsi.

Imbuga iteyeho ubwatsi buconze kandi bukase ku buryo bungana. Imbuga ishobora gukinirwaho umupira cyangwa igakinirwamo n'indi mikino isaba ko ikibuga kirimo ibyatsi, imikino irimo nka kiriketi ndetse n'indi myinshi.

Ibyapa bibiri bigerekeranyije kimwe cya mpandeshatu cyerekana ko umuhanda ufatanye n'akandi gahanda gato ku ruhande rw'iburyo, munsi hari ikindi cyapa cya mpandeshatu nacyo kigaragaza ko imbere inzira nyabagendwa ifite igice cyambukirwamo n'abanyamaguru.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga gifite ubuso bw'umweru cyanditsemo inyuguti ya p m'ibara ry'umukara ritsiritse gishinze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'ubururu, cyanditsemo akambi kareba iburyo, mu buso bw'umweru butsiritse, icyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa.

Icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, ubuso bw'ubururu, kirimo igishushanyo cy'umwambi wandikishije ibara ry'umweru utsiritse, uriho n'undi mwambi ukatira ibumoso, iki cyapa cyerekana ko hari umuhanda ukomeza ndetse ushamikiyeho n'undi muhanda ukata, gishyirwa iruhande rw'inzira nyabagendwa.

Icyapa gifite ubuso bw'umutuku bwanditsemo hagarara gishinze impande y'inzira nyabagendwa, iki cyapa cyereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko mbere yo kwinjira mu muhanda akwiye guhagarara akanya gato.

Icyapa giteretse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru gishushanyijemo umugabo mu ibara ritsiritse uri kuyora ibitaka cyangwa umucanga, iki cyapa cyerekana ko ukomeje iyi nzira hari ibikorwa byo kubaka umuhanda.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru kirimo akarongo gasa n'akaberamye, kerekana ko umuhanda ufite ikoni rikatira ibumoso.

Ikimenyetso cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru, burimo utumenyetso tw'utwambi tugondamye dushushanyije uruziga, iki ni icyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa cyereka umuyobozi ko hari igice cy'umuhanda kinyurwamo bazengurutse.

Icyapa gifite ubuso bw'umuhondo kigizwe n'utwambi n'utwambitugonze dutatu gishyirwa iruhande rw'inzira nyabagendwa, kikerekana igice cy'inzira nyabagendwa banyuramo bazengurutse.

Icyapa gifite ishusho y'impande eshatu gifite ubuso bw'umweru gishushanyijemo umuhanda mugari ushamikiyeho akandi gahanda gatoya ibumoso gishushanyijweho ibara ry'umukara ritsiritse iki cyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa kikerekwa umuyobozi w'ikinyabiziga ko mu muhanda munini hashamikiyeho agahandada gato ibumoso.

Icyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa, kikabwira umuyobozi w'ibinyabiziga ko aho hantu ageze hagomba kubanza agahagarara umwanya muto mbere yo gukomeza.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru buzengurutswe n'ibara ry'umutuku hahagazemo umugabo mu ibara ushushanyije mu ibara ry'umukara ritsiritse afite igitiyo ari kuyora ibintu.

Icyapa gishinze iruhande rw'umuhanda nyabagendwa, gifite ishusho y'umuzenguruko ubuso bw'umweru handitsemo umubare mirongo itandatu mu ibara ry'umukara ritsiritse munsi yaho hari igishushanyo kigaragaza ko imbere hari kamera yo mu muhanda ni ukuvuga ko umuvuduko ntarengwa ari mirongo itandatu.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, giciyemo agasaraba mu ibara ry'umukara ritsiritse. Iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa, kikerekana ko ukomeje iyo nzira, uza kugera ahantu hari ibitaro.

Imodoka ifite ipine inyuma, igendwaho mu buryo bwihariye, igeze ku cyapa cyanditseho yuko ukomeje uwo muhanda imbere, uhita ugera muri repubulika ya Uganda. Iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo y'umukara, igiye kugera ku mupaka.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara ifite akayira kagenewe kugendwamo n'abagendesha amaguru. Iruhande rwako hari icyapa gifite ubuso bw'icyatsi kigaragaza ko ukomeje iyo nzira wagera ku kibuga cy'indege i Kanombe mu birometero bitanu.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu ,gifite ubuso busa n'umweru bushushanyijemo umugabo wambaye bote ufite igitiyo ari kuyobora ibitaka cyangwa umucanga mu ibara ry'umukara ritsiritse.

Icyapa gikozwe mu ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'umweru, cyanditsemo mirongo itandatu mu ibara ry'umukara ritsiritse. Iki cyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa kikerekana umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga, Ko ari mirongo itandatu.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, cyanditsemo umuhanda mu ibara ritsiritse, ushamikiyeho akandi gahanda gato, ku kuboko kw'ibumoso.

Icyapa gisa n'umuhondo, kirimo utwambi tugonze dutatu, gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa cyerekana igice cy'umuhanda banyuramo bazengurutse. Bityo umuyobozi wese akwiye kubimenya hakiri kare mbere yuko akigeramo.

Icyapa cy'ishusho y'uruziga gifite ubuso bw'umweru, gishushanyijemo igikamyo gitwara ibicuruzwa, haciyemo akarongo k'umutuku kaberamye, kigaragaza ko aho hantu mu nzira nyabagendwa hatemerewe kunyurwa n'amakamyo ahetse ibintu biremereye.

Agace k'imiturire karimo inzu nyinshi zifite ibisenge bimena amazi bisa n'umutuku ndetse harimo n'umunara ukoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni y'abantu batuye muri ako gace.

Inzu yubatse mu buryo bugeretse, ifite inkuta zisize amarangi ndetse inubakishijwe n'ibirahure bitabonerana ibisa n'umukara, yubakishijwe kandi amatafari ahiye, ifite uruzitiro ruriho amatafari ahiye ndetse n'ibirahure bitabonerana.

Remera hari inzu y'amagorofa iruhande rwayo hari imbuga iparitsemo amamodoka, abantu barimo barahita yegeranye n'indi nzu y'amagorofa ifite inkuta zubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu y'amagorofa yubakishije igisenge kigizwe n'amabati atukura gicuritse, yubakishijwe ibirahuri kandi bitabonerana bimwe bisa n'umukara ibindi bisa n'icyatsi, ifite amarembo ateyeho akapa k'ijana na mirongo itandatu na gatandatu.

Inzu y'amagorofa isize amarangi y'umuhondo ku nkuta, imbere yayo hari imbuga iparitswemo n'imodoka, imbere y'imbuga hari umuhanda uri kugendwamo n'amapikipiki.

Agace k'imiturire kubatswemo inzu zifite ibisenge bicurika amazi ndetse n'izindi zimenera amazi inyuma, karimo inzira y'igitaka imanuka cyane ndetse harimo n'ibiti n'ibyatsi.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, igizwe n'imyenda y'imipira y'amaboko magufi isa n'umuhondo, bari kujya ku byicundo.

Agace gatuwe cyane karimo inzu zubatse mu buryo busa, zifite ibisenge byiganjemo amabati atukura, hirya hari umunara ukoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni.

Inzu ya'magorofa isize irangi risa n'umuhondo, iriho n'ibirahure bitabonerana, ifite imbuga yubakishijwe amatafari. Ahagazwemo n'umukobwa wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Umuhanda wo muri karitsiye ushashemo amatafari iruhande rwawo hashinze ipoto rinyurwaho n'isinga z'amashanyarazi ndetse ku rundi ruhande hari itara ryo ku muhanda rimurika iyo izuba ryarenze.

Umuhanda uragendwamo n'imodoka nyinshi ndetse n'amapikipiki, iruhande rwawo hateye ibiti by'indabo ndetse n'ikindi giti kirekire gifite amashami n'amababi manini.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara ku mpande haciye imirongo y'umuhondo tsiritsiri ifatanye ndetse hari kugendwamo n'imodoka n'amapikipiki.

Ikiraro gitandukanya umuhanda wo hasi n'uwo hejuru giherereye Kicukiro rwagati, hari icyapa iruhande rw'icyo kiraro, icyapa gisa n'icyatsi kibisi cyerekana aho wakomeza ukagera i Nyamata ndetse n'aho wakomeza ukagera ku kibuga cy'indege i Kanombe.

Umuhanda wa kaburimbo ukatira iburyo, mw'ikoni rihese cyane, aha iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze, aba akwiye kugabanya umuvuduko kugira ngo adakora impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara ufite igice ku ruhande rw'iburyo, giparikwamo n'amamodoka umwanya muto, imbere yaho hari ipoto inyurwaho n'insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, ufite igice cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, gisize imirongo y'umweru, hahagaze umugabo iruhande rwabo ategereje kwambuka.

Igice cy'umuhanda cyagenewe kwambukwa n'abagendesha amaguru, kigizwe n'imirongo y'umweru icagaguye mu bugari bw'umuhanda kiri kwambukirwamo, n'umuntu wambaye imyenda y'umweru hejuru.

Umuntu ukora umurimo wo gutwara abagenzi ku ipikipiki wambaye ijire ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu hasi yambaye ipantaro y'ubururu hasi impande ye hari umukiriya bari guciririkanya kubiciro by'ingendo.

Imodoka y'umukara inyuze munsi y'ikiraro gitandukanya umuhanda wo munsi ndetse n'umuhanda wo hejuru, iki kiraro kirinzwe n'ibyuma ku mpande ku buryo cyarinda impanuka yo kuba imodoka yava mu muhanda wo hejuru ngo ihite igwa mu muhanda wo hasi.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umuhondo inyuranwamo, imbere yayo haraturuka imodoka y'umukara iruhande rwayo hari ibimenyetso bikoresha amatara biyobora imodoka mu muhanda.

Umunyonzi ufite igare rifite umusego inyuma akoresha mu guheka abantu akabatwara mu ntera runaka, bakamwishyura amafaranga ari kugendera impande y'umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara iriho amatara amurika ni'joro igihe izuba ryarenze, impande y'iburyo hari icyapa kigaragaza ko ukomeje uwo muhanda uza kugera ku nyubako y'umuturirwa ya Nyarugenge.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara ufite imirongo ku ruhande icagaguye, ndetse ukomeje imbere hari n'ahantu hagenewe kwambukirwa n'abanyamaguru; haciyemo imirongo y'umweru igabanyijemo uwo muhanda ubugari bwaho.

Umuhanda wa kaburimbo iri kugendwamo n'ipikipiki, ndetse mbere yayo ari imodoka isa n'umukara, uyu muhanda ugendwamo mu cyerekezo cy'izimanuka gusa.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara hari icyuma gikoreshwa mu gufata amashusho y'ibinyabiziga, byangije amategeko y'umuvuduko wagenwe kugenderwaho n'ibinyabiziga mu muhanda.

Umwanya wagenewe guparikwamo n'imodoka ufashe ku nzira nyabagendwa, iruhande rwawo hari akazu kicarwamo n'abagenzi baba bategereje ko imodoka zigera aho ngaho.

Umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umuhondo icagaguye, uri kugendwamo n'ibinyabiziga birimo ipikipiki zihetse abantu, ndetse n'imodoka.

Imodoka isa n'ifeza iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara ,igeze ku gice cy'ikoni rikata ibumoso imbere ye hari amapikipiki ari gukatira ibumoso.

Igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru kigizwe n'imirongo y'umweru, icagaguye mu butambike bw'umuhanda, iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze aba agomba kureka abanyamaguru bakambuka.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, impande yawo hashinze ipoto rishyirwaho amatara yo ku mihanda amurika igihe izuba ryarenze inyuma yaho hari ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi.